Kampanye runaka igizwe n'abantu bagiye batandukanye harimo ibikorwa tuvuge nko: gutanga urukingo, harimo gufata pasiporo cyangwa gufata amafoto magufi, hari mo no gutanga ibyangombwa kugira ngo barebe ko bujuje ibisabwa.

Akabati gateretse imbere y'amazu gasize irangi ry'umutuku, hakaba hamanitseho ibipapuro by'imyeru, mo imbere harimo abantu bicayemo ndetse n'inyuma hakaba hari uhahagaze wambaye umupira w'umweru.

Agasanduku kari mu ibara ry'umuhondo hakaba harimo umu mama ufite ikayi ndetse n'ikaramu, uko bigaragara acuruza ndetse akanatanga amayinite ku bantu bakoresha simukadi za emutiyeni.

Agasanduka k'umuhondo gateretse ku muhanda, imbere y'aho hari abantu babiri bahagaze, umukobwa wambaye ipantaro y'umukara ndetse n'ingofero n'umupira by'imyeru, hirya yabo hari umumotari uri kuri moto akaba aparitse munsi y'igiti kihateye.

Inzu isize irangi ry'umuhondo ndetse ifite amadirishya y'imyeru, imbere yaho mu mbuga ihari hari akabati, karimo abantu bambaye amajire y'umuhondo.

Inzu nini iriho ibyapa bitandukanye biri mu mabara y'umutuku, ubururu ndetse n'umuhondo, hakaba hanze hari umugabo wambaye agapira k'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara uhagaze, akaba afite igare.

Akabati karimo amabara y'umuhondo ndetse n'umutuku, hakaba harimo abantu babiri, umwe arimo imbere yambaye isengeri y'umweru, undi ari hanze yambaye umupira w'ubururu, bakaba bafite ikayi n'ikaramu imbere ku kameza gahari.

Abagabo babiri batandukanyijwe na gereyage isa umukara, byose bose hamwe bafite telefone ya taci bose bari gukandamo bigaragara ko ari icyo umwe ari gusobanurira mugenzi we wiwe mu imbere urebye mu nzu, hari icyapa cya momopeyi.

Inzu isize irangi ry'umutuku ndetse ikaba ifite amadirishya y'umweru, hakaba hari amagambo ahanditse nabwo mu ibara ry'umweru, uko bigaragara hatangirwa ubufasha ndetse n'abandi bantu bashaka kugura amayinite no kuyabikuza, bakahaza.

Ahantu hanini harimo abantu benshi bigaragara nk'aho ari ku masoko cyangwa ahandi hantu bakora imideli, hari abagabo n'abagore bahari bambaye imipira y'imyeru ndetse bakaba bari kumwe n'undi mubyeyi ufite indangururamajwi, akaba ari kubereka ibyo bikoresho.

Inzu nini isize irangi ry'umweru, hakaba handikishijeho amagambo y'umukara ndetse ikaba iriho amatafari ahiye, imbere yaho hari abantu bahagaze ndetse na moto ziparitse, hakaba hari n'intebe yo kwicaraho.

Abantu benshi bateruye ibyatsi babishyira ku mashini iteretse aho ngaho, abandi bakaba bayifashe kugira ngo itagwa, hariho igitambaro gifite ibara ry'umuhondo ndetse n'ubururu, hepfo hari abandi bambaye imyenda y'umweru bakiri kwahira.

Imodoka isize irangi ry'ubururu, ikaba yanditseho amagambo inyuma mu ibara ry'umweru, harimo rimwe, umunani, kabiri, hagaherwaho urwego, ikaba ihagaze.

Abantu benshi bambaye imipira y'imweru ndetse n'abandi bambaye, indi irimo andi mabara, imbere yabo bateretse imbabura, bifashisha mu guteka, inyuma hari ibiti binini bihagaze ndetse n'ibyapa bahamanitse.

Ibigori byumye kandi byanitse, biragaragara ko bazabikoresha, babiryamo impungore cyangwa akawunga.

Inzu ikoreshwa mu gucuruza ibintu byo kunywa, twavuga inzoga ndetse n'ama fanta, hakaba harimo televiziyo ihamanitse ariko itari kwaka, ifasha abaje kwaka serivisi muri iyo nzu kureba imyidagaduro.

Uruvangitirane rw'ibinyobwa harimo ubwoko bwa bavariya bwa henikeni harimo kandi zaridogi n'amashampaye n'ibindi bigiye bitandukanye by'ubwoko bw'ibinyobwa.

Ahantu heza hagaragara n'aho ari nijoro, hakaba hari kwaka amatara, ndetse mo imbere hakaba hateyemo ameza ndetse n'intebe, kuri ayo meza hariho agatambaro k'umweru, karimo amabara y'icyatsi.

Umugabo wambaye itaburiya y'icyatsi ndetse n'agapira, akaba afite imbere ye amashashi arimo ibintu. Inyuma ye hari ibindi bikoresho acuruza, twavuga imifuka, ndetse n'amasabune.

Amavuta y'ubwoko butandukanye hakaba harimo na bya bintu abakobwa bisiga ku munwa, hakaba harimo n'izo bakoresha bisiga ku nzara, kaba harimo n'amasabune'ubwoko bw'abasaya bagenda bakoresha mu koga bagaragaramo na glecerine.

Isoko ricuruza ibintu bitandukanye twavuga amavuta yo guteka, indagara, imiceri ndetse na kawunga, bikaba bifasha abaturage baje guhaha kubona ibyo bakeneye byihuse.

Inzu nini isize irangi ry'umuhondo, hakaba harimo akabati kanini karimo ibyumba bitandukanye, ka kaba gapakiyemo amagi menshi cyane hasi no hejuru.

Botike ishobora kuba icuruza imyenda ihagazeho abagabo n'abagore b'abisilamu, biragaragara ko hirya ya'iyo botike hari agasoko gatoya gashobora kuba gucuruza imbuto n'ibindi bintu bitandukanye.

Akabuni k'umuhondo kariho umufuniko w'umutuku, kakaba kariho icyapa kirimo amabara y'umutuku ndetse n'umweru, kakaba gateretse mu nzu nk'uko bigaragara karimo amavuta yo guteka.

Inzu nini irimo irangi ry'umweru ndetse na parafu z'umutuku, hakaba harimo akabati kamanitsemo utubuni tw'umuhondo dufite imifuniko y'imituku, tukaba turimo amavuta yo guteka.

Inzu nini irimo amarido y'umweru ndetse n'umutuku, ikaba isize irange ry'umuhondo, hicayemo abagabo umwe yambaye ikositimu y'ubururu bafite amakayi imbere yabo ndetse n'amakaramu.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye ifite umuryango, ufite inzugi z'imbaho, hejuru hakaba ariyo ikintu kimeze nk'umusaraba, ifite imbuga yubakishije amapave.

Inzu isize irangi ry'umweru, hakaba harimo abantu bahagaze batambitse amaboko, ndetse n'abandi bicaye bunamye, bakaba bari ku ntebe z'imyeru, ndetse n'utumeza dutoya tuhateretse.

Amadini ndetse n'amatorero y'abasenga afasha abantu mu kwitagatifuza bakabasha kwegera Imana ndetse bifasha abantu mu kwirinda ibyaha, ikindi kandi bifasha abantu guhurira hamwe bakaganira, bakungurana ibitekerezo.

Nkuko mubibona hano murabona ko ari aba mama ababyeyi bari gusenga ,gusaba imana kugira ngo igire icyo ibafasha mu buzima bujyanye n'ubugiye butandukanye tubamo muri iyi si ,bari gusenga rwose binginga imana kugira ngo ibabarire ibyaha byabo.

Nkuko mubibona murabona ko ari abanyeshuri bari mu ishuri bari kumwe n'umutica wabo, bari kugerageza kubaha ubumenyi, bigaragara ko ari nka cya gihe nyuma savisi nyuma y'amateraniro abana batoya bajya ahantu icyo bakunze kwita sande sikuru gufata amasomo ajyanye n'imyigire n'ibindi n'iyobokamana.

Abaturage harimo abagore n'abagabo bose bakaba barimo n'abamanitse akaboko, bari muri sale ifite ibara ry'umweru, bigaragara ko bose bari gusenga bicaye mu ntebe z'umweru.

Amadini n'amatorero y'abasenga afasha abantu mu kwegera Imana batitagatifuza ikindi kandi usanga bafasha n'abatishoboye kugira ngo babone ibyo kurya, ikindi kandi amadini n'amatorero afasha abantu mu guhura abatari basanzwe bahura bagahura.

Inzu nini iriho ibirahuri byinshi ndetse ikaba isize irangi ry'umweru, hanze hakaba hari jaride nziza irimo ibyatsi bitoshye, hakaba hahagaze umugabo wambaye imyenda y'amakote ndetse n'amapantaro n'inkweto z'umukara.

Angaha bigaragara ko ari hotel runaka iri hafi y'amazi aho umuntu yajya kuruhukira n'umuryango we ni ahantu heza cyane nkuko mubibona hari udutebe umuntu yakwicara hejuru y'amazi bigaragara ko ari ahantu hafite viyu nziza.

Icyumba cyiza cyane kirimo itara rirerire ndetse hakaba harimo n'igitanda gishashe neza, kiriho amashuka y'umweru ndetse n'iry'umutuku, hakaba hari n'imisego yo kwisegura mugihe baryamye. Hejuru hari supanete ihamanitse.

Icyumba cyiza cyane kirimo amashuka y'umweru apanze neza ndetse n'ay'icyatsi, hakaba hari n'imisego bifashisha mu gihe bari kuryama cyangwa se mu gihe bicaye kugira ngo bagubwe neza.

Icyumba cyiza cyane kirimo amarido maremare y'umweru ndetse n'icyatsi, hakaba harimo intebe zo kwicaramo n'akameza gato, hino hari igitanda gishashe neza cyane, uko bigaragara ni muri hoteli cyangwa hakaba hari umuntu uharara.

Umugabo wambaye agapfukamunwa k'umukara ndetse n'ishati y'umweru akaba afite icupa. Imbere ye hari ameza arambitseho ibitambaro by'umweru. Inyuma ye hari ikibaho cy'umukara.

Ndi kubona imodoka y'umweru, hirya hariyo akabari, n'indi y'umukara, ziparitse muri parikingi yabugenewe. Hirya yayo hakaba hari inzu, inzu nini cyane, bigaragara ko ari moteli cyangwa hoteli yagenewe ibikorwa binini cyane.

Nkuko mubibona hano bishobora kuba uri mu rugo rw'umuntu cyangwa muri hoteli runaka aho wicara witegeye imisozi viyu nziza kugirango ubashe kuruhuka wowe n'umuryango wawe cyangwa wowe wenyine utekereze ku bintu bijyanye n'akazi kawe utuje umeze neza.

Bigaragara ko hano ari icyumba kirimo matera n'imisego gishashe neza kirimo gifite n'aho umuntu abika imyenda bakunze kwita za gariderobe akaba ari naho umuntu yakwicara ashaka nko gufata etide cyangwa gufata sani resite.

Inzu nini kandi nziza irimo ibitambaro by'imyeru ndetse hakaba harimo n'intebe z'imituku, imbere yazo hariho ameza akoze mu kiziga ndetse hakaba hagiyeho hariho n'imibare rimwe ndetse na kabiri.

Inzu nini nziza cyane iriho amabara y'umuhondo ndetse n'umweru, hari umuhanda uri kujyayo wubatse muburyo bwa kaburimbo hino yaho hari ibiti bihateye bimeze nk'indabyo.

Bigaragara ko hano hari icyumba cyabugenewe cyo kuberamo inama cyangwa ikindi kintu runaka, ndi kubona uducupa turimo amazi abantu bashobora kwifashisha bayanywa, hakaba hari n'intebe z'umutuku, abayobozi bashobora kwicaramo mu gihe bagifite ikintu bari kuganiraho.

Ubucuruzi ni umwuga mwiza cyane kuko ufasha umucuruzi mu kwiteza imbere, akabasha kubona amafaranga agatunga umuryango. Twavuga nko gucuruza imbuto, imboga ndetse n'ibindi biribwa abaturage bifashisha mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Hano urabona ko ari mu isoko aho harimo ibicuruza bigiye bitandukanye amabodaboda amabase udukapu ,hari naba mama bari gucuruza imyenda hari n'abari kugura imyenda bigiye bitandukanye, buri wese urabona ko buri wese afite icyamuzanye hano mu isoko.

Isoko ricuruza ibintu bitandukanye, hakaba harimo abantu bari kugenda, bambaye imipira y'umuhondo ndetse n'imikara, hakaba hari n'abandi bunamye bari muri ibyo bicuruzwa byabo, uko bigaragara hacuruzwamo imyenda ndetse n'ibiribwa.

Ibi bigaragara ko ari mu isoko ricuruza ibijyanye na bodaboda n'inkweto zihenye harimo n'abagabo bari kuzigurisha nuhagaze ushaka kugura.

Ahantu hanini hubakishije ibiti ku mbuga iteyeho ibyatsi bikeya, hakaba hari imifuka ipakiyemo imyaka ndetse n'ibindi biri ku meza, hari umugabo uhunamye yambaye agapira k'umweru karimo amabara y'umukara ndetse n'ipantaro y'icyatsi.

Abantu benshi, harimo abamama bahetse abana, bakaba bafite n'imitaka, hasi hari imifuka ihateretse, irimo ibijumba ndetse n'ibirayi, hakurya hari ibiti bihateye, hino yawe hari inzu ihubatse, isize irangi ry'umweru.

Inzu nini nziza irimo amabara y'umweru ndetse n'umutuku, hakaba harimo imitako imanitse hejuru ku gisenge ndetse hasi muri salo hatetsemo ameza ndetse n'intebe zo kwicaraho.

Umuhanda urimo amabara y'imyeru ku mpande ndetse no hagati, hakaba harimo umumotari utwaye moto wambaye umupira w'umweru urimo amabara atambitse y'umukara.

Umuhanda wa kaburimbo, urimo amabara y'imweru asa nk'ayasibamyemo hagati, hakaba harimo umumotari wambaye umupira w'umweru, uri kugenda kuri moto. Hepfo yaho hari inzu nziza ihubatse isize irangi ry'umweru.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibara ry'umuhondo ndetse haruguru hakaba hariho amabara y'umukara n'umweru, mo hagati harimo umumotari utwaye moto, haruguru yawo bakaba hubatse inzu bakoresha mu bucuruzi.

Umumotari uhetse umugabo wambaye ishati y'ubururu bose bambaye kasike. Iyo moto ikaba iri kugenda mumuhanda w'umukara ikaba iri hafi kugera kuri zebura korosingi aho abaturage bagenewe kwambuka. Hirya yaho akaba hari ibiti, bikaba bigaragara ko hari n'ikigo cy'amashuri hafi aho.

Umuhanda wa kaburimbo urimo umuyonzi utwaye umugabo. Akaba imbere ku igare rye hariho ikote ry'umuhondo. Haruguru hahinze ibiti ndetse hakaba hari n'icyapa cyanditseho inyuguti mirongo itandatu.

Umuhanda wa kaburimbo urimo umumotari utwaye moto, akaba ahetse ibicuba bitwara amata ndetse n'akabuni k'umweru, hepfo ye hari inzu ihubatse isakaje amabati ashaje, hino yayo hakaba hari ibiti bihateye.

Umumotari uri muri mu muhanda w'umukara ugaragara ko moto igikomeje kugenda, hirya ya kaburimbo hakaba ari inzu ikoreshedeshejwe amabati y'ubururu, hejuru hirya agarutse gato hakaba ari n'ipoto ry'amashanyarazi.

Imodoka y'umukara iri kugenda mu muhanda wa kaburimbo, hepfo yayo hari amazu ahubatse asize irangi ry'umweru, ndetse n'umuhondo akaba akorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibara ry'umweru ndetse hakaba hariho uruhande abanyamaguru banyuramo kugira ngo birinde impanuka, mo hagati hari umumotari utwaye umuntu akaba yambaye ishati y'umuhondo, umutwaye yambaye ishati y'umweru.